Sonarwa ni ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda. Sonarwa itanga ubwishingizi bw'ingendo mu kirere zitandukanye, ku buryo uramutse ugiriyemo impanuka nta kibazo wagira ubwishingizi bwawe bwakwishyura ibyangiritse.

Sonerwa n'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, gitanga ubwishingizi butandukanye nk'ubwishingi bw'inkongi y'umuriro, nk'ubwishingizi bw'ibinyabiziga, nk'ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bwo kugenda bw'ingendo mu kirere n'ibindi.

Radiyanti ni ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda, ushobora kugura ubwishingizi bwawe bwite n'ubwumuryango wawe hanyuma ukajya ujya kwa muganga mu kwivuza nta kibazo kugeza kuri serivisi zikomeye zo kwa muganga urugero nko kunyura mu cyuma cyangwa ibindi.

Buritamu ni ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda, gitanga ubwishingizi butandukanye hakubiyemo n'ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi ku binyabiziga n'ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bwihariye kandi buhendutse mu matsinda n'ibigo bito butangwa na Buritamu.

Buritamu itanga ubwishingizi bwo kwivuza, iyo ufite ubwishingizi bwo kwivuza uba wizeye umutekano w'ubuzima bwawe, ugakorana umutuzo ugateza imbere bizinesi yawe Buritamu ni sosiyete nziza y'ubwishingizi.

Hamwe n'ubukangurambaga bwa byikorere, urubuga irembo rushobora kugufasha wowe ubwawe kwisabira serivisi zitandukanye, urugero nko kuba bakwiyishyurira ubwishingizi mu kwivuza mutuweri dosante.

Ramba na Buritamu ni ubwishingizi bwo kwivuza butangwa n'ikigo cy'ubwishingizi Buritamu, ushobora rero kugura ubwo bwishingizi ukajya wivuza, ntukagire impungenge mu gihe cyo kwivuza ubwishingizi bwo kwivuza ramba na Buritamu ni cyo babereyeho kugira ngo bagufashe.

Porogaramu y'ikoranabuhanga ya banki ya Kigali ishobora gushyirwa muri terefone zigendanwa, iyo porogaramu yagufasha kugenzura konti yawe, kwishyura ibintu, kohererezanya amafaranga no kwishyura fagitire zitandukanye

Eko banke ni kimwe mu bigo by'imari bikorera mu Rwanda, muri eko banki, ushobora kuhasanga serivisi zitandukanye harimo gufungura konti, kubitsa amafaranga, kubikuza kwishyura imisoro, guhabwa inguzanyo n'ibindi.

Iduka ricuruza imyambaro itandukanye y'igitsina gore mu iduka wasangamo inkweto z'ubwoko bwose ndetse ziberanye n'ibirori bitandukanye, harimo n'imyenda igizwe n'amakanzu y'igitsina gore.

Iduka ricuruza imyambaro itandukanye y'igitsina gore, hakubiyemo imyambaro y'abagore n'abakobwa ushobora kuhasanga amakanzu y'ubwoko bwose, kandi ukahasanga amakanzu y'amabara menshi atandukanye wakwishimira.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye y'igitsina gore wahasanga ibitenge ibishora n'ibindi n'indi myitero y'abagore kandi wabihasanga mu mabara atandukanye.

Imodoka nziza cyane ikiri nshya igurishwa amafaranga makeya, ni imodoka toyota korola yakozwe muri uyu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kandi ikaba ari imodoka ikoresha amashanyarazi.

Akagera bizinesi gurupu ni sosiyete itumiza imodoka ikanazicuruza mu Rwanda. Sosiyete wajyamo ushaka imodoka itandukanye, imodoka wakwigendademo giti cyawe, imodoka zitwara imizigo cyangwa se imodoka itwara abagenzi.

Abagabo babiri baguze imodoka mu Kagera buzinesi gurupe, Akagera buzinesi gurupe ni ikigo gitumiza imodoka kikazicuruza mu gihugu cy'u Rwanda, ushobora kugura imodoka yo kugendamo, yo gutwara imizigo cyangwa se yo gutwara abantu.

Imodoka nziza cyane y'umukara y'ijepe ikiri nshya, kubera ko yakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani. Igurishwa amafaranga make cyane, miliyoni mirongo itandatu n'eshanu; wayitwara ikaba iyawe.

Abantu batatu baguze imodoka nziza cyane mu Kagera buzinesi gurup, Akagera buzinesi gurup ni sosiyete itumiza imodoka ikanaducururiza mu Rwanda ushobora kugura imodoka isanzwe yo kugendamo iyo gutwara imizigo cyangwa se yo gutwara abagenzi.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka nini cyane yikorera ibituruka ku bwubatsi, urugero nk'amabuye, imicanga, amasima, n'ibindi bayiguze muri Akagera businesi gurupu, ikigo gitumiza kandi kigacuruza imodoka zatumijwe mu mahanga.

Imodoka nziza cyane yakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi yo kugurisha. Imodoka igura makeya igura miliyoni cumi n'ebyiri, imodoka nziza y'umukara igaragara neza kandi iteye neza.

Iyi modoka nziza ikiri nshyashya igurishwa miliyoni makumyabiri n'eshanu z'amanyarwanda. Ni imodoka yo mu bwoko bwa Toyota ikaba ari imodoka itwarwa n'amashanyarazi yakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri.

Imodoka merisedesi benzi igurishwa, ni imodoka ikiri nshyashya kuko yakozwe mu mwaka wa bibiri nacumi na kabiri, ni imodoka ya atomayike igurishwa miliyoni mirongo itanu gusa zonyine.

Abagabo babiri baguze imodoka mu Kagera buzinesi gurupe. Akagera buzinesi gurupe ni sosiyete itumiza imodoka mu mahanga, ikazicuruza mu Rwanda. Ushobora kwigurirayo imodoka izo ari zo zose ndetse kugeza ku modoka nini cyane zikorera imizigo iremereye.

Kuri banki ni aho abaturage babitsa amafaranga kandi bakayabikuza, hari umukozi wa banki urimo imbere hari n'abandi babiri baje gusaba serivisi, hari umugabo wambaye ikote hari n'umugore uri inyuma ye.

Ivunjisha ry'amafaranga uvunnjisha amafaranga kubera ko ukeneye amafaranga yo mu kindi gihugu kubera serivisi n'ibicuruzwa ugiye kugura, amafaranga y'ivunjisha nshobora kuyabona muri banki cyangwa se mu biro bitandukanye by'ivunjisha.

Inoti y'amafaranga igihumbi. Hejuru handitse Banki Nasiyonari y'u Rwanda. Munsi hari urwuri rurimo inka, hanyuma hirya ku ruhande, hari igi, ikintu kimeze nk'igi.

Isambusa ni ibyo kurya biba bikoze mu ngano ndetse ingano zikaba zipfunyitsemo ibintu bitandukanye, hashobora gushyirwamo ibirayi, umuceri cyangwa se hagashyirwamo inyama.

Aho bacururiza amata y'ikivuguto ndetse n'ishyushyu, hari umuntu waje kugura amata ndetse harimo ararya n'irindazi, irindazi rero rijyana cyane n'amata y'ikivuguto cyangwa se inshyushyu.

Ukoresheje serivisi za emutiyene mobayiro mani, ushobora kugura murandasi ukoresheje akanyenyeri gatatu kane gatanu urwego, hanyuma ukigira kuri murandasi uko ubishaka.

Ukoresheje porogaramu ya mobayiro mani ishyirwa muri terefone igendanwa, ushobora gukoreraho serivisi zitandukanye. Ushobora koherereza umuntu amafaranga, ushobora no kubikurizaho amafaranga. Ushobora no kwishyuraho ibintu bitandukanye.

SPENN ni uburyo bw'ikoranabuhanga bwatanzwe na I&M Banki bukoreshwa muri telefoni. Uburyo bwa SPENN bufasha abantu kubitsa, kubikuza, kwishyura serivisi zitandukanye, no kwishyura fagitire zitandukanye ukoresheje telefoni.

Eyaterimani ni uburyo bwizewe buhendutse kandi bugera hose bwo kohereza no kwakira amafaranga kuri terefone yawe ukoresha umurongo wa eyateri, ushobora koherereza inshuti zawe amafaranga na zo zikakoherereza ukabikuza.

Ukoresheje I&M banki nk'ikigo cy'imari gikorerwa mu Rwanda ushobora kohererereza amafaranga abantu bawe ba mu bihugu by'amahanga, cyangwa se ukanakira amafaranga wohererejwe n'inshuti zawe zo mu bihugu by'amahanga.

"SPENN" ni uburyo bw'ikoranabuhanga bukorerwa muri telefone bwatanzwe na I&M bank. Ni porogaramu ushyira muri telefone, ubundi ugashobora gukoreraho ibintu bitandukanye. Ushobora kohereza umuntu amafaranga cyangwa se ukayakira. Ushobora kwishyura fagitire zitandukanye, ushobora kugura ifataburi rya televiziyo n'ibindi.

Porogaramu ya eyateli ishyirwa muri terefone zigendanwa ni porogaramu ishobora kugufasha koherereza abantu batandukanye amafaranga, yaba umuntu uri mu gihugu cyangwa se yaba umuntu uri hanze yacyo.

Kopedu ni ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda. Hamwe na kopedu ushobora kubona serivisi zitandukanye z'amabanki, kubitsa amafaranga no kubikuza amafaranga, kohereza no kwakira amafaranga aturutse mu mahanga ukoresheje western union.

Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, gisaba abacuruzi bose bakora ubucuruzi ko bagomba kumenyekanisha imisoro yose y'ibyo bacuruje, kandi bakanayishyurira igihe kugira ngo birinde kugibwaho n'amande.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda gisaba abantu bose bakora ubucuruzi bubyara inyungu baba bagomba kumenyekanisha ibyinjiye cyangwa ibyo bacuruje ku gihe kugira ngo batagebwaho n'amande.

Ikigo cy'Igihugu cy'Imisoro n'Amahoro, gisaba ko abacuruzi bose bakora imirimo ibyara inyungu, bakora imenyekanisha ry'imisoro bashinzwe kwishyura, kandi bakayishyurira igihe kugira ngo badacibwa amande.

Icyuma kibara amafaranga, gikoreshwa mu gihe umuntu afite amafaranga y'inote menshi cyane ku buryo kuyabara mu buryo busanzwe n'intoki bitamworohera. Iki cyuma kandi gikoreshwa kugira ngo kigaragaze amafaranga mazima cyangwa se atari mazima.

Imashini ibara amafaranga, ushobora kuyikoresha mugihe ukeneye kumenya umubare w'amafaranga iyo amafaranga ari menshi cyane ku buryo utayabarisha intoki mu buryo busanzwe, cyangwa ugakoresha iyo mashine kugira ngo umenye niba amafaranga yawe ari mazima.

Iyi noti ni ubwoko bw'amafaranga bukozwe mu mpapuro, inoti ziba zitandukanye zifite amabara atandukanye, zifite n'amashusho atandukanye, bitewe n'igihugu izo note cyazikoze.

Umuntu urimo kuvunjisha amafaranga kubera ko akeneye amafaranga y'amahanga, ayakeneye kugira ngo yishyure ibicuruzwa na serivise bisaba kwishyurwa mu mafaranga y'amahanga.

Muri banki, umuntu yagiye kubikuza amafaranga. Umukozi wa banki arimo aramuhereza inote z'amafaranga nawe ari mu kuzakira mu ntoki kugira ngo ayabike.

Amafaranga ari mu bwoko bubiri butandukanye, hari inoti ni ukuvuga amafaranga akozwe mu mpapuro hakaba n'ibiceri ni ukuvuga amafaranga akozwe amabuye y'agaciro, kandi byose ku isoko bigira agaciro kamwe.

Imashini ibara amafaranga. Ushobora kuyikoresha mu gihe uri kubara inote nyinshi cyane, ku buryo kuzibara mu buryo busanzwe ubarisha intoki bitakorohera. Kandi nanone iyi mashine ikoreshwa kugira ngo bagerageze kumenya niba amafaranga ari mazima.

Inoti ni ubwoko bw'amafaranga akozwe mu mpapuro kandi izi note agaciro kazo kagenda gatandukanye. Hari inote y'igihumbi, iya magana atanu, inote y'ibihumbi bitanu, inoti ya mirongo itanu n'izindi.

Western union ni uburyo bukoreshwa mu kohereza cyangwa se kwakira amafaranga ava cyangwa se ajya mu kindi gihugu, ni uburyo butangwa n'ibigo by'imari bitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Foregisi Biro ni aho bavunja amafaranga y'amahanga, ushobora gukenera ku kuvudisha amafaranga mu gihe ukeneye kwishyura ibintu bitandukanye ubyishyura mu mafaranga y'amahanga, cyangwa se ukavunjisha ugiye mu gihugu cyo hanze ukeneye amafaranga uzakoresha yo.

Ibiro bivunjishirizwamo amafaranga bifasha abantu kubona amafaranga y'amahanga abafasha guhaha cyangwa se kugura ibintu bitandukanye mu bihugu by'amahanga cyangwa se kwishyura serivisi zitangwa, bishyura serivisi ku mafaranga y'amahanga.

Ibiro bikoreshwa mu ku kuvunja amafaranga, umuntu avunjisha amafaranga iyo akeneye amafaranga y'ikindi gihugu kugira ngo ayakoreshe muri icyo gihugu, kandi ashobora kuvunja amafaranga iyo akeneye amafaranga y'igihugu yinjiyemo.

Ibiro by'ivunjisha byifashishwa n'umuntu uwo ari wese ukeneye amafaranga yo mu kindi Gihugu kugira ngo ahahe cyangwa se agure bitewe n'uko ibintu biririmo gucuruzwa mu mafaranga y'amahanga.

Kuvunjisha amafaranga ni uburyo butuma umuntu umwe abona amafaranga yari akeneye y'igihugu kimwe, agatanga amafaranga y'ikindi gihugu, ibyo bikaba bituma umuntu abasha guhaha akoreshaje amafaranga y'aho ari.

Intebe ebyiri nziza zikoze mu mbaho z'umwimerere, ni intebe ziteye neza kandi zibegerana, izi ntebe zifite imisego nayo ikoze neza kubera yuko nayo ikoze mu ruhu rw'umwimerere.

Intebe nziza cyane zikoze mu mbaho ziinoze, ni intebe zifite ameza yazo kandi akaba ari intebe wakoresha ibintu byinshi bitandukanye, ushobora kuzikoresha wakiriraho abashyitsi cyangwa se ukazikoresha ahantu barira.

Intebe nziza cyane n'ameza yazo zikoze mu mbaho, ni intebe zabajwe neza kubera ko zirabengerana, ni intebe ushobora gukoresha ahantu henshi hatandukanye zo kwakiriraho abashyitsi, gushyira mu ruganiriro cyangwa se ahantu ho kurira.

Ahantu hagurishirizwa ibikoresho bitandukanye bikorwa mu mbaho, urahasanga ameza agaragara neza, intebe zigaragara neza n'utubata dutandukanye wakwifashisha ubika ibikoresho cyangwa imyenda.

Intebe n'ameza byiza cyane bibengerana bikozwe mu mbahoho. Izi ntebe n'ameza ushobora kubikoresha mu cyumba cyo kuriramo cyangwa se ukabishyira ahantu umuntu yakiriza abashyitsi.

Intebe nziza cyane zikoze mu mbaho nziza z'umwimerere, ni intebe wakoresha mu ruganiriro wakoresha mu busitani cyangwa ahandi hantu, aho ariho hose umuntu ashobora kwakirira abashyitsi.

Intebe nziza n'ameza meza umuntu ashobora gukoresha mu buryo butandukanye. Ashobora gukora mu ruganiriro aho ushobora kwakirira abashyitsi, bishobora gukoreshwa muri hoteli n'ahandi n'ahandi kandi ubona bibereye ijisho.

Intebe nziza cyane zikoze mu mbaho ndetse n'ameza yazo bikoze muburyo bw'ikoranabuhanga ni intebe umuntu yakoresha ahantu bafatira amafunguro mu busitani cyangwa se muri hoteli.

Intebe zikoze mu mbaho, ziri kumwe n'ameza yazo zikoze mu buryo bwa gihanga, ni intebe n'ameza umuntu yatera ahantu hatandukanye nko mu busitani cyangwa se ikaba yakoreshwa muri hoteri.

Ihoteri nziza watemereramo n'umuryango wawe cyangwa n'abawe cyangwa inshuti zawe iyo hoteri ifite intebe nziza cyane n'ameza agaragara neza ushobora kuhatemberera n'umuryango wawe mukagubwa neza.

Ihoteli igaragara neza, ifite iyi n' inzu igeretse, kandi ifite ahantu heza, abantu bogera iyo baje gusura na hoteri.

Mariyoti hoteli ni imwe muri hoteli nziza cyane zikomeye zinyenyeri eshanu zikorera mu mujyi wa Kigali, ni hoteli nziza ifite ibyumba byinshi, ifite n'ubusitani butandukanye, ifite ahantu ho kogera n'ibindi bikenerwa muri hoteli.

Icyumba cyiza cyane giteye neza, kirimo amarido meza, kirimo amatara agezweho, kirimo igitanda gishashe neza kandi harimo urumuri ruhagije. Ni icyumba cyo kuraramo gikodeshwa.

Ihoteri nziza ifite ahantu ho kuruhukira, hari ameza n'intebe rwose byiza ndetse n'imitaka ikingira abantu imvura n'izuba. Hari ahantu ho kogera kandi rwose iyi hoteri yitegeye umujyi.

Inzu nziza cyane zubatse ku muhanda, inzu zigeretse zifite amategura meza cyane kandi zifite ubusitani buziteyeho kandi zegereye umuhanda wa kaburimbo.

Ameza ateguye neza, akikijwe n'intebe zitandukanye, akaba aherereye mu busitani bwa hoteli. Ushobora kucarana n'abawe, mukagubwa neza. N'umuryango wawe cyangwa n'inshuti zawe, mwatembereye.

Aho bafatira amafunguro, hari amafunguro y'ubwoko bwose butandukanye, nk'imiceri, za makaroni, inyama n'ibindi. Hari amasahane yo kuriraho ndetse n'imbuto zitandukanye.

Radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, Radiyanti itanga ubwishingizi butandukanye hakubiyemo ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'amatungo, ubwishingizi bw'ibihingwa ndetse n'ubwishingizi bw'ubuzima.

Sonarwa ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, kandi ikaba ifite amashami hirya no hino mu ntara no mu Turere. Sonarwa itanga ubwishingizi butandukanye, hakubiyemo: ubw'ibinyabiziga, ubw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'ubuzima n'ubundi.

Buritamu ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, Buritamu itanga ubwishingizi butandukanye hakubiyemo ubwishingizi bw'indwara, ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'amashuri n'ibindi.

Sonarwa ni ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda gitanga ubwishingizi butandukanye, hakubiyemo ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwiwinshingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'ibihingwa, ubwishingi bw'ubuzima, n'ubundi bwishingizi butandukanye.

Sonarwa ni imwe muri sosiyete z'ubwishingizi zikorera mu Rwanda. Muri sonarwa ushobora kuhabona ubwishingizi butandukanye, hakubiyemo ubwishingizi bw'indwara, ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi ku nyubako, ubwishingi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingi bw'ibinyabiziga n'ibindi.

Sanlam ni ikigo cy'ubwishingizi bw'ibintu bitandukanye, ushobora kuhabona ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'indwara, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'ibihingwa cyangwa se ubwishingizi bw'amatungo.

Ahatangirwa serivisi z'ikoranabuhanga ushobora kuhasanga serivisi zo ku rubuga rw'irembo, serivisi z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, serivisi z'ama banki, iz'ubwishingizi n'izindi.

Goshene fayinanse ni ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda, Goshene fayinanse itanga inguzanyo zitandukanye, hakubiyemo inguzanyo z'amashuri mu Rwanda nko kubaka amashuri cyangwa se kurihira abana amashuri.

Kopedu ni ikigo cy'imari gikorera muri repubulika y'u rwanda kikaba ari ikigo gifite amashami ahantu henshi hatandukanye mu mujyi wa kigali, ushobora kubitsa amafaranga ukayabikuza cyangwa se ugasabamo inguzanyo.

CPF ineza ni kimwe mu bigo bitanga serivisi z'imari mu Rwanda, ntabwo kiragira abakiriya benshi, kuko gifite abanyamuryango mu turere tubiri ari two Kamonyi, Muhanga ariko bafatanyije na Nyarugenge.

Gusheni finanse ni ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda. Ushobora kubona serivisi zitandukanye z'amabanki muri gusheni finanse, ushobora kubitsa, ushobora kubikuza, ushobora kwishyura ibintu byinshi bitandukanye nk'imisoro, ushobora no kohereza amafaranga kubantu bawe, cyangwa se hanze y'igihugu.

Sipeni ni ikoranabuhanga ryo kohererezanya amafaranga no kugura serivisi zitandukanye, rikoreshwa n'ikigo cya ayi endi emu banki. Hamwe na sipeni ushobora guhabwa inguzanyo ukishimira inguzanyo itagira ikiguzi.

I&M banki ni ikigo cy'imari mu Rwanda. Muri I&M banki ushobora kuhakura inguzanyo zitandukanye: inguzanyo z'ubucuruzi, inguzanyo z'ubwubatsi, inguzanyo zo kwiteza imbere, inguzanyo z'amashuri kandi ukaba wahabwa agera kuri miliyoni mirongo itanu nta ngwate.

Isoko ry'imboga, ni isoko ririmo imboga zitandukanye harimo: imboga rwatsi, pavuro, intoryi inyanya, karoti n'izindi mboga zitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye harimo ibirayi, za karoti, amashu, amafu y'ubwoko bwose, imboga n'ibindi bitandukanye, hari umugore urimo kugurisha ibyo bintu ndetse n'abantu baje guhaha.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye isoko ririmo ibiribwa intoryi, inyanya, imboga n'ibindi hari abagore batandukanye baje gucuruza muri iri soko ndetse hari n'abantu baje guhaha.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye harimo ibitoki, karoti, amateke, ibirayi, amasho ibijumba, imyumbati n'ibindi. harimo n'abantu benshi baje guhaha.

Isoko riri gucururizwamo imbuto. Harimo imbuto zitandukanye, harimo amaronji, harimo amapera, harimo imineke, harimo n'ibindi. Umugore arimo arerereka umukiriya urubuto rwiza yakwishimira kugura akanezerwa.

Isoko ry'imbuto zitandukanye harimo imineke, wotameroni, amaronji, amapera n'izindi mbuto zitandukanye mu isoko harimo abantu benshi baje guhaha.

Umugore urimo gucuruza mu isoko imbuto zitandukanye. Afite voka, amaronji, inyanya n'ibindi bitandukanye. Isoko ririmo n'izindi mbuto nk'imineke n'ibindi.

Isoko ricururizwamo imyenda itandukanye harimo, imyenda y'abagore, imyenda y'abagabo, ibikapu, amashati, amapantalo ya siporo n'indi myenda itandukanye wakenera.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga mu mujyi wa Kigali, harimo abamotari bahagaze bashaka abagenzi, abanyamaguru barimo kugenda, ibinyabiziga bigenda, ndetse n'amaduka cyangwa se amazu y'ubucuruzi abantu bakoreramo.

Abacuruzi batandukanye barimo gucuruza amasamake, hari amabase atandukanye arimo amasamake, hari umugore wicaye urimo kuyatunganya kugira ngo aze kuyagurisha ameze neza.

Aho bacururiza imbuto mu isoko, hari imineke rwose ihiye neza n'izindi mbuto zitandukanye nk'inanasi, amaronji, indimu ndetse n'ibindi. Hari n'umuntu waje kugura.

Isoko ry'ibijumba, ibijumba ni igihingwa gikunze guhingwa mu bice byinshi by'igihugu, ibijumba iyo byeze abenshi babijyana mu isoko kubera ko hari abantu baba bakeneye kubiha batabifite, cyangwa se bikagemurirwa ibigo by'amashuri.

Isoko bacururizamo ibiribwa ririmo ibiribwa bitandukanye hakubiyemo imboga z'ubwoko butandukanye ibitunguru, intoryi, inyanya, karoti ndetse n'ibindi.

Isoko ry'imboga rigizwe n'imboga zitandukanye z'ubwoko bwose aho tubonamo inyanya, ibitunguru, imiteja, urusenda n'ibindi harimo n'abantu batandukanye barimo gucuruza.

Isoko ry'imboga zitandukanye zigurishwa, aho wasanga imboga z'ubwoko bwose, amashu inyanya, korojete, intoryi n'izindi, hari umugore urimo kugurisha amashu muri iri soko.

Iduka ricururizwamo imyenda itandukanye ndetse n'imitako y'akataraboneka, ushobora kuguramo imyenda itandukanye imipira, amashati, amajipo y'abakobwa n'abagore ndetse ukiguriramo n'imitako itandukanye, yaba iyo bambara ku maboko, ku matwi ndetse n'iyo bataka mu nzu.

Akazu gatangirwamo serivisi za mobile money. Abantu babiri umusore n'umukobwa bahagaze imbere yako. Bashobora kubona serivisi zo kubitsa amafaranga kuri mobile money, kuyabikuza, kohereza abantu batandukanye no kugira ibyo wishyura byishyurirwa na mobile money.

Akazu gacururizwamo serivisi za mobilo mane. Utu tuzu dukunda kuba cyane ahantu ku muhanda akaba ari utwa sosiyete y'itumanaho emutiyene. Ushobora kuhsanga serivisi zo kubikuza amafaranga kwakira amafaranga no kwishyura serivisi zitandukanye.

Akazu gatangirwamo serivisi za mobayiro mani, ni akazu akenshi dusanga ahantu ku muhanda kaba karashyizweho na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, igatangirwamo serivisi zo kubitsa, kubikuza ndetse no kwishyura ibintu bitandukanye hakoreshejwe mobayiro mani.

Akazu bacururizamo serivisi za Mobile Money. Ni utuzu dushyirwaho na sosiyete y'itumanaho MTN. Ushobora kuhasanga serivisi zo kubikuza amafaranga, kubitsa amafaranga no kohereza amafaranga ahantu henshi hatandukanye.

MTN ni ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, MTN ifite serivisi zitandukanye, serivisi zo guhamagara, serivisi za murandasi serivise z'ubutumwa n'izindi.

Mu isosiyete y'itumanaho emutiyene abakozi bari mu kazi kabo ka buri munsi bakoresha mudasobwa kugira ngo batange serivisi ku bakiriya babo hari abakiriya batandukanye baje babagana kugira ngo babafashe.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho emutiyene, bambaye imipira y'umuhondo uriho ikirango cya emutiyene, bari kumwe n'umuntu waje kubasobanuza ibya serivisi yo kuri telefoni.

Abamotari babiri bari batwaye abagenzi babagejeje aho bajya buri wese avuye kuri moto bafite telefoni zigendanwa barimo baragerageza kubishyura binyuriye kuburyo bwa mobayilo mane ni ukuvuga uburyo bw'ikoranabuhanga.

Umuntu uri mu gucuruza serivisi za mobile money. Ni serivisi akenshi usanga mu mujyi zikorerwa mu mitaka, yatanzwe n'ikigo cy'itumanaho cya MTN. Turakuhasanga serivisi zo kubitsa, no kubikuza amafaranga kuri mobile money

Akazu gacururizwamo serivise za mobayiro mani, ni akazu kaba karashyizweho na sosiyete y'itumanaho ya MTN, ushobora kuhabona serivise zo kohereza amafaranga, ku bikuza amafaranga, ku gura ibintu ukoresheje mobayiro mani ndetse no kwishyura fagitire ukoresheje mobayiro mani.

Momo peyi ni kode abacuruzi bakoresha, akaba ari kode zatanzwe na MTN, kugira ngo abacuruzi bajye bishyurwaho amafaranga, kandi byorohereze abagura ibintu bitandukanye, kwishyura nta mafaranga yandi baciwe.

Akazu gatangirwamo serivise za mobayiro mane, kaba gafite ibara ry'umuhondo, akenshi tukaba duteye ku muhanda, umuntu ashaka serivise zo kohereza amafaranga, kubikuza amafaranga cyangwa se kugira serivise yayishyura akoresheje mobayiro mane baramufasha.

Ahatangirwa ha serivisi za mobayiro mani, akenshi aba ari utuzu twubatse ku muhanda. Mobayiro mani igufasha kohereza amafaranga, kwakira amafaranga, kuvuga kubitsa no kubikuza ndetse no kwishyura ibintu byinshi bityo bakoresheje mobayiro mani.

Muri eyateri ku mafaranga ibihumbi bitanu gusa ushobora guhabwa jigabayiti mirongo itandatu zimara ukwezi kose uzikoresha kuri murandasi kandi ugahabwa uburyo bwo guhamagara budahagarara.

Alibaba ni ikigo cy'ubucuruzi gicururiza kandi kikagurishiriza ibintu kuri murandasi, ushobora kugura ibintu bitandukanye ku rubuga rwa Alibaba, ushobora kugura ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho byo mu gikoni, imyambaro, n'ibindi bintu bitandukanye.

Rwanda marite ni sosiyete ikora ibyo aho gucururiza no kugura ibintu ukoresheje murandasi. Ni urubuga ukoreye kuri murandasi, ushobora kuguriraho ibintu byinshi bitandukanye, nk'ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho byo mu nzu, ibyo mu gikoni , n'ibindi bitandukanye.

Vuba vuba ni sosiyete ikorera mu Mujyi wa Kigali, ishinzwe kugeza ibicuruzwa ku bantu babiguze. Isosiyete Vuba vuba, ikoresha ibinyabiziga bitandukanye nka moto kugira ngo igeze ibicuruzwa kuri ba nyirabyo.

Ahari egisipurese ni urubuga rukorera kuri murandasi rucururizwaho kandi rugurishirizwaho ibintu byinshi bitandukanye hakubiyemo ibikoresho byo mu rugo, imyambaro, inkweto n'ibindi byinshi bitandukanye.

Jumiya ni urubuga rugurishirizwaho rukanacururizwaho ibicuruzwa bitandukanye rukorera kuri murandasi, Jumiya ushobora gusangaho ibikoresho bitandukanye wagura nk'ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho byo mu nzu, imyenda yo kwambara inkweto n'ibindi.

Ihaha tekinorogizi, ni ikigo gitumiza kandi kikagurisha ibikoresho by'ikoranabuhanga, mu bikoresho bagurisha hakubiyemo za mudasobwa, reba ibikoresho bisohora impapuro, n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu biro.

Vuba vuba ni sosiyete ishinzwe kugeza ibicuruzwa ku baguzi bibereye mu rugo. Iyi sosiyete ikoresha uburyo butandukanye kugira ngo ibyo abantu baguze bibagereho. Bikoresha ibinyabiziga urugero nk'abantu batwara moto bambara amashati y'ibara ry'icyatsi.

Inzu nziza cyane iri ahantu heza ifite amatara meza kandi nini bihagije, iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, iragurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Ni inzu nziza cyane iri mu mujyi wa Kigali wakodesha amadolari magana inani ku kwezi, ukayituramo wowe n'umuryango wawe, ni inzu ikoze neza ifite amadirishya meza, ifite imitako myiza ndetse irimo n'ibikoresho bitandukanye byo mu nzu.

Inzu nziza cyane iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Ni inzu yubatswe vuba isakaje amategura meza cyane kandi ni inzu nshyashya. Wagura miliyoni mirongo icyenda n'eshanu gusa igahinduka iyawe.

Ni inzu nziza cyane wakodesha ku mafaranga make cyane amadorari magana inani buri kwezi, ukiturira mu mujyi wa Kigali, hamwe nabagize umuryango wawe, hari ahantu heza ho kuruhukira kubera ko inzu ifite ubusitani bumeze neza.

Inzu nziza cyane waturamo n'abagize umuryango wawe ikeye ibengerana kandi ni inzu y'igorofa. Iherereye mu mujyi wa Kigali, ni inzu bakodesha ku madolari ibihumbi bibiri ku kwezi kandi ni inzu isukuye.

Inzu ihendutse cyane wagura iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ni inzu ikiri nshyashya ifite ubuso bumeze neza, urugo runini ushobora guhagarikamo imodoka kandi ni inzu rwose ikiri nshya.

Inzu nziza cyane ushobora kugura iherereye mu mugi wa Kigali. Ni inzu yubatse neza ifite amarangi meza n'amadirishya meza n'ibirahuri byiza, ikaba igura miliyoni ijana na mirongo itanu y'amanyarwanda yonyine.

Inzu nziza cyane ushobora kugura mu mujyi wa Kigali. Ni inzu ifite ibikoresho byose bitandukanye ibikoresho byo muri salo, ibyo mu gikoni n'ibyo mu bwuhagiriro. Ni inzu wagura miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inzu nziza cyane ikiri nshya kubera ko aribwo icyuzura wakwigurira niba ufite amafaranga, iyi nzu irimo ibikoresho byose bitandukanye kuva kubi bikoresho byo muri saro, kugera ku bikoresho byo mu gikoni.

Inzu wagura mu mujyi wa Kigali mu Rwanda ku mafaranga miliyoni ijana mirongo itanu inzu nziza yubatse neza iri ahantu hirengeye kandi ikaba ifite ipariseri nini.

Inzu nziza cyane iherereye Kabeza mu karere ka Kicukiro aho ni umujyi wa Kigali ni inzu yubatse neza ifite igipangu kimeze neza ifite igisenge cyiza kandi ni inzu nini cyane iragurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu zonyine.

Inzu nziza iri ahantu heza hirengeye Kimironko mu mujyi wa Kigali, ikaba ari inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi, ni inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere kandi ni inzu iberanye n'umuryango.

Inzu nziza cyane iri ahantu ku muhanda, ni inzu ifite igisenge kigezweho, kandi yubatse mu buryo bwa kijyambere, ifite ibiti ku irembo bizana akayaga keza, ni inzu ikodeshwa iherereye i Kigali, i Kanombe.

Inzu nziza cyane igeretse, yubakishije amarangi meza n'ibikoresho birambye, igurishwa mu mujyi wa Kigali, wayibona ku madorari ibihumbi ijana na mirongo ine gusa, ni inzu iri ahantu heza kandi iteye neza.

Inzu nziza cyane igeretse hejuru igurishwa. Ni inzu igaragara neza ifite ibyumba bitandukanye ndetse ifite n'ahantu umuntu yahagarika imodoka. Hariho ibiti ndetse n'ubusirani bumeze neza.

Inzu nziza cyane yakodeshwa ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri, ni inzu itaratunganywa ariko yakodeshwa amafaranga makeya ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inzu nziza ikodeshwa i Kigali, Kimironko. Ni inzu nini ifite ibyumba bibiri ifite n'ubwiyuhagire bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi. Iyi nzu ifite igisenge kigezweho kandi yubatse mu buryo bugezweho.

Inzu nini iri ahitegeye ikodeshwa iri i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ni inzu ifite ibyumba bine ubwogero butatu, ariko hari ibintu bidatunganye umuntu yakwikosoreramo.

Inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri y'amanyarwanda. Ni inzu yubatse ahantu ku muhanda, iteye neza kandi isize amarangi ameze neza. Ifite ubusitani n'indabyo ziteyeho.

Inzu nziza cyane ushobora gukodesha ukayituramo n'abagize umuryango wawe, ku mafaranga make amadorari ibihumbi bitatu ku kwezi, iri i Kigali Gacuriro mu Mujyi wa Kigali. Ni inzu ifite ubwiza butangaje.

Inzu ikodeshwa iherereye i Kigali mu murenge wa Kimironko, ni inzu nziza cyane nini bihagije ifite ibyumba bibiri n'ubwiyuhagiriro bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana ane buri kwezi.

Inzu nziza ifite igipangu nini bihagije ikirinshya igurishwa Kimironko mu umujyi wa Kigali. Ishakwamo miliyoni mirongo icyenda n'eshanu ariko mukumvikana. Ni inzu iri ahantu heza hafi y'umuhanda.

Inzu wakodesha mu murenge wa Remera, mu karere ka Gasabo, ni inzu nziza iri ahantu heza, ifite icyumba kimwe n'ubwiyuhagiriro bumwe, ikaba ifite igikoni cyiza kigezweho mu nzu mo imbere.

Iyi nzu nziza cyane ushobora kuyikodesha ku mafaranga makeya. Ni inzu igaragara neza, ikwiranye n'umuryango kandi iyo yubatse ahantu heza, ifite ibyumba bine n'ubwiyuhagiriro butatu, ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa Kicukiro Kagarama. Inzu nini cyane ifite ibyumba bine watuzamo umuryango, ifite ubwiyuhagiriro butatu kandi ni inzu ifite n'ubusitani bumeze neza iyo nzu isakaye mu biryo bwa kijyambere.

Umuntu w'igitsina gore uri mu iduka ricururizwamo ibyo kunywa bitandukanye by'amoko yose. Arimo arareba imbere bigaragara ko yishimiye iduka rye. Hacururizwamo ibyo kunywa bikoze mu mbuto zitandukanye.

Iduka bacururizamo imbuto harimo imbuto zitandukanye; amatunda, amaronji, indimu, inanasi, n'izindi. Hari umudamu urimo kuzicuruza haya n'umudamu w'umuzungu urimo guhaha izo mbuto.

Inzu nini irimo ubucuruzi butandukanye harimo aho bacururiza imyenda, harimo aho bacururiza amavuta n'ibikoresho by'ubwiza ndetse harimo n'aharimo uburiro. Imbere y'iyo nzu hari imodoka zitandukanye z'abakiriya.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ni ikarita ifasha abana bakiri bato batarafata indangamuntu, kugira ngo ibafashe kujya bayivurizaho nk'icyangombwa cy'ibaranga kuko batarafata irangamuntu.

Ejo heza ni ubwiteganyirize bw'igihe kirekire umuntu wazigamiye muri ejo heza aba azabona ubwiteganyirize bwe mu gihe azaba ashaje bukamugoboka, kandi ejo heza buri muntu wese yayijyamo n'ukorera amafaranga makeya.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza itangwa n'ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda. Ni ikarita ihabwa abanyamuryango b'ubwisugane mu kwivuza, babwishyuye ariko batarengeje imyaka cumi n’itandatu ku buryo bafite indangamuntu bakayikoresha mu cyimbo cy'icyangombwa kibaranga.

Ivuriro ry'ibanze, ni ivuriro ritoya ricishirije, rigiye riherera mu tugari, rigafasha abarwayi bafite indwara zoroheje kugira ngo babafashe mbere yuko bagera kwa muganga.

RSSB ni Ikigo cy'Igihugu cy'Ubwiteganyirize bw'Abakozi, ni ikigo gicunga imisanzu y'abakozi ba leta kugira ngo bazayihabwe mo ubwiteganyize bwabo, mu gihe bazaba bageze mu zabukuru, icyo kigo kandi gicunga imisanzu y'ubwisungane mu kwivuza y'abaturage.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa n'abana batoya, ababyeyi babo bamaze kwishyurira imisanzu yo kwivuza. Iyi karita ihabwa abana batarayirenza imyaka cumi n'itandatu ngo bafate indangamuntu, ikabafasha kwivuza.

Ejo heza ni ubwiteganyirize bw'igihe kirekire, muri ejo heza ushobora kwiteganyiriza izabukuru, ugateganyiriza wowe ubwawe, cyangwa se ugateganyiriza abagize umuryango wawe, ushobora no guteganyiriza abana bawe, ushobora kwiteganyiriza ukoresheje telefone cyangwa mudasobwa.

Abantu batandukanye bazindukiye kwa muganga, abenshi bicaye hanze bategereje ko bagerwaho kugira ngo bage kubonana na muganga, hari n'abandi bicaye hanze mu gihe bagitegereje ibisubizo byabo.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda, ni ikarita ikoreshwa n'abantu bishyuye ubwishingizi ariko bakeneye kuvuza abana babo bari munsi y'imyaka cumi n'tandatu, ni ukuvuga batarafata indangamuntu.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ni ikarita ihabwa abanyamuryango batanze ubwisungane mu kwivuza batararenza imyaka cumi n'itandatu y'amavuko, ni ukuvuga batarafata indangamuntu kugira ngo bayikoreshe bivuza.

Mituweli ni ubwisungane mu kwivuza, umuntu wishyuye ubwisungane mu kwivuza aba ashobora kwivuza mu gihe cy'umwaka wose, umuryango wose iyo wishyuye buri wese mu bagize umuryango aba ashobora kwivuza.

Ikigo cy'igihugu cy'ubwitinteganyirize bw'abakozi, n ikigo cya leta gishinzwe gucunga imisanzu y'abakozi ba leta, izabafasha mu gihe bageze mu zabukuru. Iki kigo kandi, kikaba gikusanyirizwamo amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza y'abaturage.

Ejo heza ni ubwiteganyirize bw'igihe kirekire. Muri ejo heza ushobora kwiteganyiriza bitewe n'amafaranga ushobora kubona, hanyuma ukazagobokwa mu gihe ugeze mu zabukuru. Ushora kwiteganyiriza ubwawe, cyangwa ugateganyiriza abagize umuryango wawe.

Ejo heza n'ubwiteganyirize bw'igihe kirekire, imisanzu y'abanyamuryango ibikwa mu kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi cy'u Rwanda. Ejo heza umuntu witeganyirijemo abona amafaranga mu gihe cy'izabukuru atagifite imbaraga zo gukora.

RSSB ni ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi mu Rwanda, ni ikigo gicunga imisanzu y'abakozi kugira ngo igihe bazaba bageze mu za bukuru iyo misanzu izabagoboke, icyo kigo kandi gicunga ubwiteganyirize cyangwa se ubwisungane mu kwivuza bw'abaturage.

Ibiro abaganga bakoreramo kwa muganga hicayemo abaganga babiri barimo baruzuza mu bitabo, hari n'umugore waje kuvuza umwana kandi afite ikarita y'ubwishingizi mu kwivuza.

Abantu batandukanye bagiye kwivuza kwa muganga. Hari intebe abarwayi bicaraho mugihe bategereje muganga. bose bayicayeho, hari umubyeyi umwe wavuyeyo arimo arasohoka abandi barakiyicaye.

Simba supamaketi ni iduka rikomeye cyane mu gihugu cy'uRwanda. Kandi ni iduka ushobora gusanga mu duce twose dutandukanye tw'igihugu cy'uRwanda. Ushobora guhahiramo ibintu bitandukanye ibyo kurya, ibyo kwambara, ibikoresho n'ibindi.